Ni byiza ko buri karere kagira ambulance, kuko ifasha abarwayi kugera kwa muganga vuba byihuse batabanje kunegekara.

Ni byiza ko abaganga bakwambara imyenda yabugenewe igihe bagiye kuvura abarwayi baje babagana.

Ni byiza ko Polisi ijya mu muhanda ikaka abatwara ibinyabiziga ibyangombwa byabo ikareba neza niba koko uwo muntu yemerewe kuba yatwara icyo kinyabiziga cyangwa atabyemerewe bityo bizarinda impanuka zikabije.

Ni byiza ko abantu bahuriza hamwe bagatanga amaraso bagatabara indembe kuko iyo izo ndembe zitabonye amaraso aturutse mu bagenzi babo ntabwo zishobora gukira.

Ni byiza ko buri kigo nderabuzima kigira ibikoresho byiza byihariye, abaganga bakoresha basuzuma abarwayi.

Umuryango wa Croix Rouge ni umuryango ufasha abantu bagiye batandukanye cyane cyane abaturage baturiye kure y'ikigo nderabuzima usanga babafasha kugira ngo bagere ku kigo nderabuzima hakiri kare.

Ni byiza ko hari abantu bafasha abandi urugero nka gurupe ya Croix rouge, ifasha gutanga amaraso ku bantu bayakeneye, ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Ni umuryango ugizwe n'abantu bagiye batandukanye harimo: urubyiruko abantu bakuze ndetse n'abandi, uwo muryango witwa Croix Rouge, ugamije gufasha abantu bahuye n'ibibazo bitunguranye.

Ni ngombwa ko abantu bahura cyangwa se abayobozi bagahura, bakaganira ku bintu bitandukanye, bagahabwa amahugurwa yo ku buzima n'uko batanga amaraso.

Ni ngombwa ko buri karere kagira ibitaro ndetse na ambilanse, kuko byorohereza abarwayi kugera kwa muganga.

Ni ngombwa ko buri muganga aho ari hose mu gihe ari mu kazi agomba kwambara umwenda umuranga kugira ngo abarwayi baje kwivuza bamenye umuganga, bamutandukanye n'umurwayi.

Ni byiza igihe ugize ikibazo gitunguranye ko wagana ikigo nderabuzima kikwegereye, kuko haba hari abaganga bagiye batandukanye, bafasha abarwayi baje babagana kubavura bagakira.

Ni byiza kugana ikigo nderabuzima kikwegereye igihe wumva utameze neza ukajya kwisuzumisha bakareba indwara waba urwaye.

Ni byiza ko iyo wakoze neza ugomba guhabwa ikemezo k'ishimwe kubera ko uba warakoze neza akazi kawe ushinzwe, bityo rero bikagufasha kwigirira ikizere ndetse no gukora ibindi bigiye bitandukanye.

Ni byiza kwambara umwenda wabugenewe igihe turi mu kazi, urugero nk'abaganga cyangwa se abarimu ndetse tukanarangwa n'isuku aho turi hose.

Ni ngombwa ko buri muganga wese, agomba kurangwa no kwambara, imyenda imuranga kandi yabugenewe kugira ngo abarwayi babone uko bamugana, bamwakaha serivisi bashaka.

Nziza ko buri muganga wese uri mu kazi, agomba guhabwa compiyuta kuko imufasha gushyira muri sisiteme abarwayi bityo rero ntibigone.

Ni byiza gukorana siporo n'abantu bafite ubumuga kuko bibafasha kumva ko nabo ari abantu ndetse bakabona ko bitaweho cyane.

Mu Rwanda haje ikoranabuhanga, aho usanga ibigo nderabuzima bigiye bitandukanye bikoresha drone mu kujyana amaraso ku bigo nderabuzima bitandukanye biba biyakeneye.

Abakozi bakora mu bigo nderabuzima bigiye bitandukanye, bakunze guhurizwa hamwe bakabahugura mu bijyanye n'uburyo bakwita ku baturage baje babagana.

Ni byiza ko buri bitaro byo mu gihugu, bigomba kugira ambilance kuko ifasha cyane cyane iyo bafite abarwayi barembye, kubageza ku bitaro bikuru.

Ni byiza kugana ikigo nderabuzima kikwegereye igihe wumva utameze neza kuko uhasanga abaganga bagiye batandukanye bakagusuzuma, bakareba indwara urwaye.

Ni byiza ko ababyeyi bafite abana bakiri bato bajya babajyana ku bigo nderabuzima bibegereye igihe babona abana batameze neza, kugira ngo babashe kubasuzuma, barebe ko nta kibazo bafite.

Gukingiza abana ni umuco nyarwanda, kuko tuba tubarinda indwara nyinshi zigiye zitandukanye, bahura nazo mu bwana bwabo, bityo rero bikabafasha gukura neza bafite ubuzima buzira umuze.

Usanga buri kigo nderabuzima, gifite imodoka y'imbangukiragutabara, ibasha gutwara abaturage barembye cyangwa se abantu bahuye n'impanuka zitunguranye.

Ni byiza ko abayobozi bahura bakaganira ku bintu bigiye bitandukanye bityo rero bakanashakira hamwe icyateza imbere igihugu ndetse n'abagituye.

Ni byiza ko hagera igihe n'abarwayi bari kwa muganga, bahabwa ibikinisho bagakina, bakishima ndetse bagahabwa icyizere yuko bazakira.

Ni byiza ko ibitaro byagira ibitannda abarwayi bagomba kuruhukiramo kuko bifasha umurwayi iyo yaje ananiwe agahita aruhuka.

Abayobozi bagiye batandukanye usanga bashishikariza buri kigo nderabuzima kugira isuku kuko haba hari abarwayi bagiye batandukanye, birakwiye ko bajya bagira isuku.

Ni ngombwa ko twivuza indwara zigiye zitandukanye kuko bifasha kumenya uko ubuzima bwawe buhagaze bityo rero ukamenya ibyo wakwinda ndetse n'ibyo wakora, bigatuma ubaho mu buzima bwiza.

Ni byiza ko abarwayi iyo bagiye kwivuza, bajya ku murongo bakicara bagategereza. Hakagenda umwe umwe kugira ngo abaganga babone uko babavura.

Ni byiza ko umuganga yakumva ikibazo cy'umurwayi kuko bimufasha kumenya neza uburyo ari bumuviremo.

Ni byiza ko abantu bihuriza hamwe bakaganira, bakishima, bakifotoza, bityo rero iyo foto bafashe bakazajya bayibukiraho ndetse muri make bakayifata nk'urwibutso.

Ni byiza ko abarimu bagiye batandukanye, bigisha abana ndetse bakabajyana no muri laboratware kugira ngo bashyire mu bikorwa ibyo baba bize.

Ni ngombwa ko tugira abaganga batwitaho buri munsi kuko ari zo nshingano zabo ndetse akaba ari wo muco wabo.

Ni byiza ko tugira ahantu dutangira ibizamini by'ubuzima, tukabasha kwipimisha indwara zitandukanye, urugero rwo gutanga ikizamini cy'amaraso, bakagipima bityo rero bagashobora kubona indwara warwaye.

Ni byiza ko buri kigo nderabuzima haba hari icyumba babasha gukoreramo ubushakashatsi ku ndwara zigiye zitandukanye kugira ngo bavumbure n'ibindi bintu.

Ni byiza ko tujyana abanyeshuri gukora ubushakashatsi bw'ibintu bigiye bitandukanye kuko bibafasha kuvumbura imiti ndetse n'ibindi twakenera mu buzima bwacu.

Ni byiza ko hagera igihe hagafatwa icyumweru cyahariwe ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana kuko birinda abana kugwingira ndetse bakabaho mu buzima bwiza.

Ni byizayiza gusangira n'abana kuko bibafasha kumenya umuco wabo ndetse bikabarinda kugira kwigunga bukabije.

Ni byiza ko duhuriza abana hamwe bagasangira bityo bibafasha kubona ko bitaweho ndetse bikagira n'ingaruka nziza ku buzima bwabo.

Ni byiza ko abayobozi bashinzwe iby'ubuzima bagomba kuza bakaganira n'abaturage bakavuga ku buzima bwabo ndetse n'uburyo baburindamo.

Ni byiza kujyana abana bacu bakiri bato ku kigo nderabuzima tukajya kubakingiza. Kuko izo nkingo zituma bakomeza kugira ubuzima bwiza zikabarinda n'indwara zigiye zitandukanye.

Ni byiza ko uyo umwana yarwaye aba agomba guhabwa ibinini bivura inzoka kugira ngo abashe gukura neza.

Tugomba kwita ku buzima bw'umwana ndetse n'ubw'umubyeyi kuko bifasha aba bombi kumva bameze neza ndetse bishimye cyane.

Ni byiza gushishikariza ababyeyi ko bazajya baraza abana babo mu nzitiramibu kuko bizabarinda kurwara indwara zitandukanye harimo: nka Malariya kuko yabangiriza ubuzima bakabaho nabi.

Umwana ni umutware. Ni byiza ku mugore ufite umwana ukiri mutoya cyangwa se w'uruhinja ko agomba kumwitaho, akamuha ibintu byose bigiye bitandukanye bituma akura afite ubuzima bwiza.

Ni byiza ko ubuyobozi bwegereye abaturage kuko usanga bahanahana amakuru ku bintu bike bitandukanye, bityo rero bagafata imyanzuro kuri ibyo bibazo bafite.

Abaganga badushishikariza kwipimisha indwara zigiye zitandukanye, kuko birinda ubuzima bwacu ndetse bikanatuma tubaho neza.

Ni byiza kuganirizaho abarwayi, igihe baje bakugana, bakakubwira ibibazo byabo kugira ngo ubone ukuntu bavura.

Ni byiza ko abaturage batandukanye bajya bakora udusiporo tugiye dutandukanye kugira barusheho kuruhuka mu mutwe ndetse no gutekereza neza.

Mu gihe wagiye kwivuza ni byiza ko wabwira muganga ibibazo byawe byose, akakugira inama ndetse akabona n'uburyo yakuvuramo.

Ni byiza kwita ku buzima bwo mu mutwe kuko bifasha abafite icyo kibazo, kumva ko bitaweho ndetse bakumva ko bari kumwe n'abandi, nabo ari abantu.

Tugomba kwita ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, tukita ku buzima bwabo, tukabavuza, tukabaganiriza bityo rero nabo bakabasha kumva yuko bitaweho nk'abandi.

Imiryango igiye itandukanye ya Katolika usanga isura urubyiruko rufite ubumuga bakabaganiriza kuri byinshi bigiye bitandukanye.

Ni byiza ko imiti igomba kuba itondetse mu buryo bwiza bwiza kuko bifasha umuganga kumenya aho buri muti uri ndetse na gake uherereyemo.

Ni byiza ko igihe wumva utameze neza wagana farumasi ikwegereye ukabwira abaganga uhasanze ikibazo ufite bakakwitaho.

Ni ngombwa ko twagira ahantu dukura imiti kuko iyo warwaye mbere y'uko ujya kwa muganga ubanza kugura iyo miti ikaguha ubutabazi bw'ibanze.

Igihe wumva urwaye utameze neza ni byiza kwihutira farumasi ikwegereye ukajya gushakamo imiti kugira ngo ubashe kwivura indwara itaragera kure.

Ni byiza ko tubona ahantu tugura imiti kuko iyo warwaye igihe utabonye ubushobozi bwo kujya kwa muganga uragenda ukagura iyo miti kuko ibaye ikwegereye bityo ukaba ufashe iya mbere mu kwiha ubutabazi bw'ibanze.

Ni byizayiza , kugana, farumasi ikwegereye, igihe wumva, utameze neza kuko haba hari abaganga, bagufasha, kugusuzuma ndetse bakanamenya, indwara, urwaye.

Igihe wumva urwaye utameze neza ni byiza kwihutira kuri farumasi ikwegereye, ukaganiriza abaganga ikibazo ufite, bakabasha kuguha imiti.

Ni byiza kugira ububiko bw'imiti kuko biyirinda kwangirika bityo rero umurwayi uyinyweye bikamufasha gukira vuba kandi neza.

Ni byiza ko tugomba kugira ahantu twakura imiti mu gihe umuntu yarwaye mbere y'uko ajya kwa muganga agomba kujya kuri farumasi agakurayo imiti bityo rero akiha ubutabazi bw'ibanze.

Sylvere farumasi, ibasha gufasha abaturage bagiye batandukanye baje bayigana, mu kubaha imiti, bitewe n'indwara barwaye kugira ngo babashe gukira.

Ni byiza ko haba abantu bacuruza imiti kuko iyo umurwayi yarwaye ashobora kujyayo akayigura kuko aba azi ko ikigo nderabuzima cyangwa se ibitaro bitamwegereye agahabwa ubutabazi bw'ibanze.

Ni byiza kugira ububiko bw'imiti kuko biyirinda kuba yakwangirika, bityo igatakaza agaciro.

Ni byiza kugana farumasi ikwegereye igihe wumva utameze neza kuko haba hari abaganga batandukanye, urabegera ukababwira ikibazo cyawe bakaguha ibinini.

Igihe urwaye bitunguranye ni byiza kujya kuri farumasi kwegereye, ugashaka imiti waba unywa kugira ngo ukire.

Ni byiza ko abayobozi bahura bakifatanya n'inzego z'umutekano ndetse n'abandi bashinzwe ubuzima bakaganiriza abaturage bakabigisha uko barinda ubuzima bwabo cyane cyane uko bakirinda icyorezo cya malariya.

Ni byiza ko zimwe mu nzego z'umutekano zihuriza hamwe zigakora ubukangurambaga mu rubyiruko bifashishije insanganyamatsiko zigiye zitandukanye.

Ni byiza kwigisha urubyiruko ku bijyanye no kwirinda bagakoresha agakingirizo mu gihe batashoboye kwifata, kuko bizarinda ubuzima bwabo.

Ni byiza ko iyo habaye igikorwa runaka abayobozi bagomba gutumira abantu basusurutsa abaturage, bakaza bakabyina, bakabasetsa bityo rero abaturage bakiyumvamo ko babereye igihugu.

Ni byiza ko buri karere kajya gafata umunsi umwe mu kwezi gakigisha abantu uburyo bakwita ku buzima bwabo, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ni byiza ko habaho ibiganiro byigisha ku buzima kuko bifasha abaturage kumenya neza uko ubuzima bwabo buhagaze ndetse n'uko babwitaho.

Urubyiruko ni imbaraga z'Igihugu kandi zubaka. Ni muri ubwo buryo ko haje ibintu bigiye bitandukanye urubyiruko rubasha guhuriramo kugira ngo babahugure ndetse babigishe ibyo bakora ngo biteze imbere.

Ni ngombwa ko duhuriza abantu, tukabaganiriza ku bijyanye n'ubuzima, tukababwira ibitera ubuzima bwabo kwangirika ndetse n'uburyo baburinda, bityo rero bakazashobora kubaho mu buzima buzira indwara.

Ni byiza kugira imyidagaduro kuko bifasha abaturage kwishima ndetse bakabona n'abahanzi bagiye batandukanye.

Imiti ya kinyarwanda ni myiza kuko ifasha abantu benshi kwivura bitagoranye, urugero nk'amavuta avura uruhu iyo uyisize uruhu rwawe ruracya.

Ni byiza gukoresha umuti wa kinyarwanda kuko wunganira umuti usanzwe baduha kwa muganga bityo bikadufasha kwirinda indwara.

Hari zimwe mu ndabo zifashishwa mu gukora imiti ya kinyarwanda yunganira iyo kwa muganga kuko idufasha guhabwa ubutabazi bw'ibanze mbere y'uko tujya kwa muganga.

Biba byiza umugore utwite iyo buri gihe agiye ku kigo nderabuzima bakamusuzuma kugira ngo barebe ko umwana ameze neza kandi nta kibazo afite.

Ni byiza ko mu buzima bwa buri munsi tugira imirasire y'izuba kuko mu gihe amashanyarazi yabuze uwo murasire uradufasha.

Ni byiza ko buri Karere kagira ikigo nderabuzima kuko bifasha abarwayi kwivuza bitagoranye.

Ni byiza ko igihe turwaye ko tugana ikigo nderabuzima kuko haba imiti yizewe kandi twakoresha tukabasha gukira indwara turwaye.

Mu Rwanda haje uburyo aho usanga abaturage bagira umunsi bahuriraho bakaganira uko bakwita ku buzima bwabo.

Ni byiza ko buri karere kagomba kugira ikigo nderabuzima, kuko bifasha abaturage kubona aho bivuriza igihe batameze neza, bigatuma bakomeza kugira ubuzima bwiza.

Ni byiza ko tugana ibigo nderabuzima bitwegereye igihe twumva tutameze neza kuko haba hari abaganga bagiye batandukanye badufasha kudusuzuma indwara turwaye bakaduha n'imiti.

Ni byiza ko mbere y'uko baha abana ibinini ndetse no kubapima uburebure, abajyanama b'ubuzima babanza kuganira ku buryo bari bubigenze bityo rero igikorwa kikagenda neza.

Ni byiza ko iyo umuntu yarwaye akajya kwa muganga biba ngombwa guhabwa imiti kugira ngo abashe kumera neza.

Nibyiza ko dushyira kandagira ukarabe imbere y'inzu, kugira ngo umuntu uvuye hanze agiye kwinjira mu nzu abanze akarabe asige imyanda yose yari afite, kugira ngo ataza kwanduza abandi.

Ni byiza ko tujya kwipimisha indwara zitandukanye kuko bituma tumenya uko ubuzima bwacu buhagaze bityo rero bikadufasha kubwitaho.

Ni byiza ko duha agaciro abajyanama b'ubuzima, kuko badukemurira ibibazo bigiye bitandukanye igihe tutabashije kugera ku bigo nderabuzima.

Ni byiza ko tugomba kwita ku bana bacu, tukabajyana ku ishuri kuko ariho bakura ubumenyi bwinshi.